Kugenzi wanjye kalalisa yafashe ijambo mu nama y'ubushize, yatanze ibitekerezo byiza we, abari aho bose bakoma amashyi, ubu abakobwa basigaye bafite umwanya munini mu nzego z'ubuyobozi.

Umugore yahawe ijambo. Inama mperuka kwitabira ubushize, yari iyobowe n'umudamu wambaye ijipo y'umukara ndetse n'agashati k'umweru karimo n'utudomo tw'umukara, yaratuganirije weee!! Mbega umuntu uvuga ibintu by'ubwenge.

Iyi ni inama y'inteko rusange y'abafatanyabikorwa b'Akarere ka Gasabo. Akarere ka Gasabo ni akarere gaherereye mu Mujyi wa Kigali kakaba kagizwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Iyi nama yitabiriwe n'abagiye batandukanye.

Ubu harabura umunsi umwe, kugira ngo bugere ku munsi ntarengwa wo gutanga umusoro w'icyiciro cy'ubucuruzi cyangwa se igihembwe cy'ubucuruzi cya kane, ni ibyiza yuko umuntu atangira umusoro ku gihe kugira ngo yirinde amande.

Ubu ibintu byose byarakemutse, abantu barahura, bagakora inama bakiga kuri buzinesi bakiteza imbere, ahani inama igizwe n'abagabo bagiye batandukanye, bari kwiga ku mushinga bafite wo guteza imbere igiturage.

Itariki ntarengwa mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri kane, menyekanisha uyu munsi, kwibutsa kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu birakorwa kugeza ku itariki mirongo itatu n'imwe Ukuboza bibiri na makumyabiri na kane.

Shishoza mu gihe uhamagaye cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga ndetse n'ubundi bushukanyi bwiyitirira ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye. Ubu abatubuzi barahagurukiwe.

Mu Rwanda ndetse no mu Isi hose tugira umunsi mpuzamahanga w'umurimo, umunsi mpuzamahanga w'umurimo uba ku itariki ya mbere Gicurasi, uyu mwaka wari ufite intego igira iti ahaza h'umurimo intego dusangiye.

Ipoto ritanga amashanyarazi mu ngo, mu bigo by'amashuri, mu maresitora ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye, ipoto rituma umuriro ugera ku bantu udafite imbaraga zavanye ku rugomero.

Ejo bundi umuntu waje kudukorera amashanyarazi muri karitsiye iwacu yari umudamu, akazi nari nzi ko gasanzwe gakorwa n'abagabo, yaje yambaye agapfukamunwa kavuga ubutumwa kanditseho ngo ''yesu ni byose k'umufite'' ibi nibyo rwose nabyemeza.

Mu bitaro ni ahantu heza cyane, uhajya urwaye wenda gupfa ukahava wakize, ibi ni ibitaro bya Muhima, bikaba biherereye mu Mujyi wa Kigali, uhagenda baguhaye taransiferi cyangwa se waba ufite randevu na muganga.

Ikigo nderabuzima cya Kabutare ni iki ngo kivurirwamo abantu bagiye batandukanye, kikaba giherereye mu murenge wa Kabutare mu karere ka Huye. Cyakira abarwayi bagiye batandukanye bo muri ako karere ndetse no mu tundi tugakikije bagize ibibazo by'uburwayi.

Umuntu utuye mu gihugu cy'u Rwanda ntiyaba atazi ibitaro byitiriwe umwami Faisal, ibi ni ibitaro bijyaho umuntu warembye cyane cyangwa se umuntu ufite randevu ufite uburwayi bukomeye agiye guhura n'abaganga bakomeye.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya Kabgayi, ibitaro bya Kabgayi bazwiho kuvura amaso. Umuntu agenda ari impumyi akahava areba. Ibitaro bya Kabgayi rwose ku kijyanye no kuvura amaso ni abambere mu gihugu cy'u Rwanda.

Muri korona baduteye ibishinge we! Ubwo nari njya kwikingiza nahasanze hari umusore bari gukingira, bamutera urushinge mbona ararakaye, ndavuga ati se njye nibaruntera ntabwo ndi buhasige ubuzima, ariko barunteye numva nta n'ubwo ruryana, sinzi impamvu yari yarakaye.

Mu bitaro ni kwa muganga, mu bitaro barasanasana iminsi ikicuma, aha ni kwa muganga aho bavura indwara z'imbere, izo mu gifu ndetse no mu nda. Hari abadamu bategereje, hari n'abasore bagiye kwishyura.

Imbangukiragutabara nabonye ku kigo nderabuzima yari ivuye ahantu mu misozi, yasaga nabi, ifite ibyondo, baje bihutisha umurwayi kugira ngo ba muganga bamwiteho, abari bamaze kumujyana mu cyumba cy'indembe ndetse rwose abaganga bari baje, baje kumufasha.

Muri rusange twebwe Kagame Paul perezida wa Repubulika, inteko ishinga amategeko yemeje none natwe duhamije dutangaje itegeko riteye rishya kandi dutegetse ko ritangazwa mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda.

Abagabo bashinjwa ibyaha bijyanye na jenoside aho baje kuburanishwa mu iburanisha gacaca. Ni abagabo batandatu bambaye i roza ndetse hari n'undi uri ku ruhande baje kuburanishwa.

Aha ni aho imfungwa zijya zigahanwa, zikazizwa ibyaha zakozwe, haba harimo abagore, abagabo, abana, abasaza, abakecuru, gipfa kuba ufite icyaha wakoze kandi kikaba kiguhama urahanwa.

Igororero riri mu Mujyi wa Kigali. Aha ngaha hakaba ari igice kibamo abagabo. Abagabo n'abagore baba ahatandukanye iyo bari mu kugororwa. Mu igororero uhajya warakoze ibyaha gusa ukahasohoka warabaye umuntu muzima.

Inzu y'urukiko, urukiko rukaba rugizwemo n'abashinjacyaha batatu, bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umukara n'umweru. Ni abadamu babiri ndetse n'umusore umwe. Baricaye, baratuje, bari gukurikira ibyabereye mu rukiko.

Igororero rya Gicumbi, aha ni aho bazana umuntu wakoze ibyaha uhamwa n'ibyaha yakoze, yaba umugore, yaba umugabo, bose bagahanwa, bakagororwa, bakazasubizwa mu bandi barikosoye.

Umukuru w'igihugu Polo Kagame ubwo yari kwiyamamaza mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane, imbaga nyamwinshi yari imukikije, bashishikajwe no kumva imigabo n'imigambi y'umuyobozi, ari kubatangariza azabagezaho mu mwaka bamutoye muri manda ye nshya.

Ishyaka Girini pati ni ishyaka rihagarariwe na MPAYIMANA Philippe, wari uri kwiyamamariza kuba perezida w'igihugu cy'u Rwanda mu wa bibiri na makumyabiri na kane, yari yiyamamaje gusa ntiyabashije gutsinda ngo abe umuyobozi w'igihugu.

Perezida wacu Paul kagame turamukunda cyane, aho yagiye ajya kwiyamamaza hose abantu babaga bahuzuye uzi ko umuturanyi wanjye yaharaye akagerayo saa saba paka mu gitondo muzehe ahageze, muzehe arashyigikiwe rwose.

Amatora y'uyu mwaka yaciye mu mucyo, abantu bose baratoye, aha ni umukandida w'ishyaka FPR yari amaze gutora kandi nawe yari mu biyamamariza kuba umukuru w'igihugu, ni byiza ko amatora aca mu mucyo.

Imodoka itwara imizigo ikaba iri mu muhanda bigaragara ko hatarimo ambutiyaje cyagwa se ibinyabiziga byinshi, ikaba yikoreye ibintu bigiye bitandukanye ivanye muri magerwa ishyiriye nyirabyo aho akorera.

Umumotari uhetse umudamu, bakaba bageze aho abanyamaguru bambukira; umumotari ari kugenda ariko iyo asanga harimo abanyamaguru bambuka, yari kuba ahagaze akabareka bakambuka kuko aho ngaho ni aho bagenewe kugendera abanyamaguru.

Abanyonzi basigaye bakora ibintu bigiye bitandukanye, ntago akazi kabo bikiri gutwara abantu gusa, uwo nabonye ejobundi yari atwaye n'imizigo, ayijyana rwose yiyambariye bodaboda z'iwe agenda ajyanye aho bamutumye.

Icyapa gifite ishusho mpande eshatu, ubuso ni umuhondo, ikirango mu ibara ry'umukara, kiriho umuntu bigaragara y'uko ari gukora umuhanda, kiramenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga y'uko imbere hari ibikorwa remezo biri kuhakorerwa.

Icyapa gifite ishusho mpandeshatu, ubuso ni umweru, ikirango ni umukara, kereka umuyobozi y'uko agiye kugera ahari isangano banyuramo bazengurutse, ngo nahagera yibuke kuzenguruka.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru ikirango ni mu ibara ry'umukara, kiramenyesha umuyobozi yuko ageze aho guhagarara bitemewe agomba gukomeza.

Icyapa gifite ishusho mpandeshatu, umuzenguruko, umutuku, ubuso ni umweru ikirango ni umukara, kirereka umuyobozi yuko ageze ahantu hegereye aho abanyamaguru bamukira, agomba kugenda gake kugira ngo atagira uwo abangamira.

Icyapa gifite ishusho mpande enye, umuzenguruko ni umukara, ubuso ni umuhondo, ikirango ni umukara, kirerekana y'uko umuhanda urigu harimo gukatirwa iburyo gusa, gukatira ibumoso bitemewe.

Icyapa gifite ishusho mpande enye, kikaba kifite umuzenguruko w'umukara, ikirango ni umuhondo ndetse kikaba cyereka umuyobozi y'uko atagomba kurenza kilometero mirongo itandatu mu isaha, agomba kubahiriza uwo muvuduko.

Icyapa gifite ishusho uruziga, umuzenguruko, umutuku, ubuso ni umweru, ikirango ni ibara ry'umukara, kiramenyesha yuko, aho ngaho hatanyurwa n'abanyonzi ndetse n'abantu batwaye amagare aba ari bo bose, aho ngaho hacibwa n'ibindi binyabiziga bitari amagare.

Icyapa kinini kimenyesha ibintu bibiri, kiramenyesha yuko imbere hari kamera umuntu agomba kubahiriza amategeko yose y'umuhanda, ikindi kikamenyesha yuko atagomba kurenza umuvuduko wa kilometero mirongo itatu mu isaha.

Akapa kagaragaza aho ugeze. Aka ni akapa kanditseho keje magana atanu na rimwe esiti, kagaragaza yuko uwo ari umuhanda wa magana atanu na rimwe ugezeho, kamenyesha umugenzi aho ageze.

Icyapa gifite ishusho mpandeshatu umuzenguruko n,umutuku ubuso n'umweru ikirango n,umukara kirerekana yuko imbere hari aho abanyamaguru bambuka kimenyesha umuyobozi yuko agomba kugenda gake ageze aho ngaho ko hari abanyamaguru babiri.

Icyapa gifite ishusho mpande eshatu, umuzenguruko ni umutuku, ubuso ni umweru ikirango ni mu ibara ry'umukara, kiramenyesha umuyobozi w'ikinyabiziga y'uko agiye kugera mu muhanda aho uhurana n'indi mu buryo bumanuka n'ubuzamuka agomba kugenda gake.

Ni aho bita hilltop hoteri, ni hoteri igira na pisine n'aho kurara ndetse n'aho kurira, ni ahantu heza cyane wasohokera wowe n'umukunzi wawe cyangwa se n'undi muntu wese mukaganira ku byubaka.

Aha ni ahantu hakorerwa na Hoteri Imfiniti, iyi Hoteri igira pisine, ikagira ibyumba byo kuraramo, aho kuganirira, amasare yo gukoreramo inama n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubashaka wabagana bari mu Mujyi wa Kigali.

Mu Rwanda ni igihugu kimwe muri Afurika ushobora kubona gifite isuku ihagije rwose, umuhanda wose wajya ntiwabonamo n'agapapuro namba, imihanda yose iba igize isuku n'abayigendamo bagira isuku.

Umuhanda wo muri karitsiye, ukaba ari umuhanda w'igitaka urimo amabuye, iyo imvura yaguye habamo ibyondo byinshi cyane ku buryo imodoka kuhatambuka biba ari ingorabahizi. Ni byiza ko wubaka umuhanda wa kaburimbo.

Umuhanda mwiza cyane usukuye urimo isuku, harimo agahanda aho abanyamaguru bambukira, harimo imodoka isa n'umweru iri ku gihande cy'ibumoso, iri kwinjira mu muhanda munini ivuye mu muhanda mutoya.